Abantu benshi bateraniye hamwe, higanjemo abakobwa, abagore ndetse n'abana bakiri batoya biga mu mashuri y'incuke bambaye impuzankano, bakoze uruziga bari kugenda bakina bose kandi bishimye.

Abanyeshuri bicaye ku meza bakoze agatsinda, bikaba bigaragara ko bari guhana ibitekerezo ku nsanganyamatsiko runaka yatanzwe, bose bambaye impuzankano zisa.

Abana b'abanyeshuri bateraniye hamwe aho bagiye bicaye bazengurutse imeza, bicaye mu buryo bw'amatsinda aho bari kugenda bungurana ibitekerezo ku nsanganyamatsiko runaka yatanzwe.

Umugore w'umwarimu aho ari kumwe n'abana biga mu mashuri y'incuke ari kugenda abatoza ibintu runaka, harimo no kugira ikinyabupfura ndetse n'indangagaciro z'umuco nyarwanda.

Abanyeshuri bicaye mu buryo bw'amatsinda, akaba ari abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke. Bakaba bari mu ishuri, aho bari kugenda bakorera mu matsinda ndetse bungurana ibitekerezo kugira ngo bamenye ubumenyi.

Abanyeshuri bateraniye hamwe, biganjemo abiga mu mashuri y'inshuke, bahagaze bakoze uruziga, hagati harimo mwarimu wabo, aho ari kugendamo abaganiriza ababaza amakuru yabo na bo bishimye.

Abana benshi cyane bakiri bato biga mu mashuri y'inshuke, bicaye ku mukeka bakoze uruziga aho bafite ibikombe bari kugenda banywa amata, ubu ni uburyo bwiza cyane butuma abana bagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Abana b'abanyeshuri bagiye batandukanye aho bicaye ku ishuri, ni abana biga mu ishuri ry'inshuke, bakaba bambaye impuzankano bari kuganira bishimye.

Abana bagera muri babiri b'abanyeshuri bakiri batoya biga mu mashuri y'incuke, bambaye impuzankano, bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, bari kugenda bihuta bigaragara ko bakererewe ishuri.

Abana bari kugenda mu muhanda bakiri batoya, ariko umuhanda w'igitaka. Ukikijwe n'ibiti birebire kandi by'inganzamarumbo. Hari kandi n'amazu menshi ahegereye.

Abana bakiri batoya b'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke ab'igitsina gore ndetse n'ab'igitsina gabo, bakaba bateraniye hamwe imbere yabo hahagaze umwarimu wabo wambaye agapira k'icyatsi ari kubaganiriza yishimye.

Abana benshi cyane biga mu mashuri y'inshuke bateraniye hamwe bishimye bari gukina, hagati yabo harimo umwarimu wambaye itaburiya y'umweru ari kugenda abatoza umukino bagomba gukina.

Abanyeshuri bari kujya ku ishuri bambaye impuzankano z'ishuri, harimo umwe wikoreye ibase isa ubururu, bakaba bagiye kwinjira mu ishuri ryubakishije amatafari ahiye.

Igipangu giteye irangi ry'umukara ndetse n'umweru gishushanyijeho abana babiri b'abanyeshuri bari kujya ku ishuri, imbere yacyo hari ubusitani bwiza cyane burimo ibyatsi.

Mu ishuri haba harimo intebe nyinshi zigiye zitandukanye ariko ni byiza ko buri ntebe yazajya yicarwaho n'abanyeshuri babiri kugira ngo ntibabyigane kandi babashe kwiga neza bakurikiye.

Ni inyubako zubatswe mu buryo bwa kera, aho zisakaje amategura, akaba ari ku kigo cy'amashuri, ruguru hari ubusitani bwiza cyane, buteyemo indabyo zitandukanye, hari kandi n'ikibuga kirimo abanyeshuri bagiye batandukanye.

Mu rwego rwo kugira ngo uburezi bw'u Rwanda bugire ireme, Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda y'uko abanyeshuri bose bagomba kuzajya barira ku ishuri, hanyuma bagataha bameze neza, bakabasha no gukurikirana neza amasomo yabo.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako z'ikigo cy'amashuri. Zikaba zubakishije amatafari ya sima ndetse zisakaje amabati y'ubururu. Inzugi na zo zirasa ubururu. Hari n'ikibuga bakiniramo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yubakishije amatafari ahiye, uko bigaragara ni ishuri, rikingishije inzugi zisa icyatsi.

Ishuri ririmo intebe nyinshi cyane zigiye zitandukanye abanyeshuri bicaraho, hakaba kandi hari ibirahure bizana urumuri mo imbere, muri iryo shuri nta munyeshuri n'umwe urimo.

Icyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho byose nkenerwa byifashishwa ku ishuri, harimo ikibaho ndetse n'ishusho ishushanyijeho mudasobwa n'ibice byayo abanyeshuri bigiraho.

Udukarito turi mu mabara agiye atandukanye, y'ubururu, umuhondo, umutuku, ndetse n'icyatsi, aho handitseho amagambo y'umweru, utu dukarito tukaba turimo imiti yifashishwa mu buhinzi.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri ziri mu mabara ajya gusa ubururu ndetse na kaki, bakaba bahetse udukapu, ibigaragara biga mu mashuri abanza, bari kwinjira mu kigo aho bategereje mugenzi wabo.

Ku ishuri haba hari inyubako nyinshi cyane zigiye zitandukanye, cyane cyane zikunze kuba zisakaje amabati asa ubururu, haba harimo kandi n'ibiti by'ingandamarumbo bitanga umwuka mwiza ku bahaherereye.

Ni ku ishuri ku Kigo cy'amashuri cya Cyarwa, aho hari abana biga mu mashuri abanza bari kugenda muri icyo kigo bishimye biganjemo abahungu ndetse n'abakobwa.

Urupapuro rwanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku mu rurimi rw'Icyongereza, kikaba kimanitse ahantu ku nkingi iteye irange ry'umweru.

Ni ku ishuri aho hari intebe irimo amasahani ndetse n'ibikombe mo imbere. Ku kibaho hahagaze umunyeshuri wagiye gusubiza ikibazo mwarimu yabajije.

Imibare igiye itandukanye iba yanditse ku dukarito ndetse no ku dupapuro, iyi rero bayifashisha bari kwigisha abana biga mu mashuri y'incuke kubara.

Igipangu giteye amarangi y'umweru n'umukara, kikaba cyanditsweho ingombajwi n'inyuguti zose n'imibare. Akaba ari ikigo giherereye mu karere ka Huye.

Ikigo cy'amashuri gisa n'aho gishaje kuko gisakaje amabati ashaje ndetse n'andi asa ubururu, kikaba gifite uruzitiro rwubakishije imiti ndetse n'imiyenzi.

Icyumba giteye amarangi y'umweru, kiriho akabati kamanitseho ibikombe byinshi bigiye bitandukanye ndetse ku gikuta hakaba handitseho amagambo ashushanyije mu mabara y'Idarapo ry'u Rwanda.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri aho bari kwiga, bafite za mudasobwa imbere yabo zisa icyatsi ndetse n'umweru, aho ari gahunda leta yazanye kugira ngo buri mwana wese abashe gukoresha mudasobwa.

Ukuboko k'umunyeshuri gufashe ikaramu kuri kwandika mu ikayi. Aho ukundi gufite imashini mu ntoki, aho ari kugenda ateranya imibare hanyuma yabone igisubizo akacyandika mu ikayi.

Abanyeshuri bateraniye hamwe, aho harimo abahungu ndetse n'abakobwa bambaye impuzankano; aho bafite ibitabo bari kugenda basoma, bakaba bateraniye hamwe mu itsinda kugira ngo bungurane ubumenyi kandi bafashanye.

Abana bagera muri batanu bateraniye hamwe mu ishuri, aho bari mu ishuri rigari ririmo intebe nyinshi zibereye aho nta muntu uzicayeho, biragaragara ko ari mu masaha ya n'imugoroba abandi bamaze gutaha.

Abana bambaye imyambaro y'ishuri iri mu ibara rya kupe, b'abakobwa bari impande y'ikigega bari gufungura amazi kugira ngo babashe kuvoma ayo kunywa.

Ikibaho cyo ku ishuri kiri mu ibara ry'umukara, kikaba cyanditsweho amagambo yandikishije inyuguti ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, hakaba handitseho imibare yo kugabanya.

Abanyeshuri bari gutaha bava ku ishuri, higanjemo abakobwa ndetse n'abahungu. Hari kandi n'abana bakiri bato aho bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Bari kugenda bishimye cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bwiza ikaba ifite urugi rw'umweru rukozwe mu byuma, hejuru hakaba hariho umurongo usize irange ry'umweru, wanditseho amagambo ko ari icyumba cy'abarimu.

Igipangu gishushanyijeho umwarimu uri kwigisha abanyeshuri aho ahagaze afite agakoni ari gukoza ku kibaho handitseho isomo ry'Icyongereza, abanyeshuri na bo bamukurikiye.

Umuhanda w'igitaka aho ku nkengero zawo harimo inzira inyuramo amazi ndetse hari n'icyapa kitagaragara neza. Uwo muhanda ukikijwe n'ibiti birebire cyane.

Ishuri ririmo abanyeshuri ndetse na mwarimu wa bo, aho mwarimu afite mudasobwa ari kubigisha uko ikoreshwa abanyeshuri na bo bakurikiye, ubu ni uburyo bwiza Leta yashyizeho kugira ngo ikoranabuhanga ritere imbere.

Ubusitani bwiza cyane, burimo indabyo nziza cyane ndetse hakaba hubatsemo n'ikigega kiri mu mabara y'umukara. Iki kigega rero gifata amazi aho kijyamo litiro ibihumbi icumi.

Abanyeshuri bagiye batandukanye bari kugenda urujya n'uruza aho bamwe bari kujya ku ishuri abandi bari kuvayo, bambaye impuzu z'impuzankano ndetse buri wese afite agakapu atwaramo amakaye.

Umuntu ufashe akapa kari mu mabara y'umutuku, umweru ndetse n'ubururu, kakaba kanditseho amagambo ari mu rurimi rw'Igiswayire, avuga mu Kinyarwanda ngo ishuri ry'iwacu.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe mu buryo bugezweho, aho cyubakishije amatafari ahiye ndetse kikaba gikingishije inzugi zikozwe mu byuma. Gifite ubusitani bwiza cyane burimo indabyo nziza cyane.

Abanyeshuri babiri bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umutuku ndetse n'agashati hejuru k'amabara, bari kuva ku ishuri aho hari ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Buri kigo cy'amashuri kigomba kuba gifite isomero, iri somero rero ni isomero rya Kaminuza y'u Rwanda Ishami rya Huye, aho abanyeshuri barigana, bagahabwa ibitabo bagasoma maze bakunguka ubumenyi.

Igicumbi kigufi cyane cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'ubururu, kikaba gikikijwe n'ibiti birebire bihari hafi ahongaho.

Ahantu hazitijwe uruzitiro rwubatswe mu byuma ndetse n'inkingi zubatswe mu matafari ahiye hakaba hari ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abanyeshuri bicaye bateraniye hamwe bakaba bari kureba imbere umuntu uri kugira icyo ababwira, hari kandi intebe yicayeho umudaso ndetse n'abandi banyacyubahiro benshi.

Abanyeshuri bateraniye hamwe bari guhinga, uko bigaragara barashaka kubaka akarima k'igikoni, hakurya yabo hari insina ndende zo mu bwoko bw'injagi, hari kandi umuhanda w'igitaka.

Imodoka nziza cyane iri mu mabara y'umweru, aho iparitse ahantu, impande yayo ku muryango hari abanyeshuri bahagaze bahetse ibikapu bigaragara ko bagiye kwinjiramo ikabatwara ku ishuri.

Icyapa kimanitse ahantu ku muhanda kiri mu mabara y'umweru cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku. Hakaba handitseho ko ari ikigo cy'amashuri giherereye muri Ruhango.

Abarimu bateraniye hamwe mu cyumba bahuriramo, aho bose bambaye impuzankano, zisa umweru zizwi nk'amataburiya. Bakaba bari gukora inama, biga ku buryo ki bateza imbere Uburezi Nyarwanda.

Mu Rwanda hari amashuri menshi agiye atandukanye, aho hari ikigo cyaje imbere cyitwa Indatwa n'Inkeshwa, kikaba giherereye mu karere ka Huye, kikaba gitanga uburezi bufite ireme ku buryo umwana uhize wese abasha gutsinda inda.

Abanyeshuri bicaye hamwe muri sale y'inama bicaye ku ntebe zisa umweru, hari umunyeshuri uhagazemo hagati yabo, bigaragara ko ari kubaha ikiganiro hamwe nabo bakaba bamukurikiye.

Abanyeshuri bicaye, bambaye impuzu mpuzankano ziri mu mabara y'umweru ndetse n'abambaye imipira y'ubururu. Baricaye imbere yabo hari abandi barimu ndetse n'umugabo umwe w'umuyobozi uri kubaha ikiganiro.

Ni byiza ko buri kigo cy'ishuri kiba gifite isomero aho abanyeshuri banyarukira bakabona ibitabo bagasoma maze bakiyungura ubwenge, aha rero turi kubona akabati karimo ibitabo byinshi bigiye bitandukanye.

Abantu bateraniye hamwe, higanjemo abanyeshuri ndetse n'abaturage. Abo banyeshuri bambaye impuzankano, umwe muri bo akaba ari umusore afashe ihene bigaragara ko bagiye kuyimworoza.

Icyapa gishushanyijeho umuntu w'umubikira wambaye imyambaro y'umukara, hakaba hari n'ahandi handitseho ubutumire bwa yubile y'imyaka mirongo itanu, ya C.S.ELENA GUERRA.

Ikigo cyitwa Indatwa n'Inkesha kizwiho gutanga uburezi bufite ireme mu Rwanda, giherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, aho giherereye iruhande rwa paruwasi y'abakatoholike.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bateraniye hamwe, aho bicaye bateze amatwi abantu bari imbere bari kugenda babakoresha inama. Hari umugabo uhagaze ufite akantu k'umutuku, ndetse n'undi mugabo n'umugore bahagaze inyuma yiwe.

Ni ku kigo cy'amashuri aho hari abanyeshuri benshi bari gukina umukino w'amaboko uzwi nka Volleyball, hari abandi bari gufana ndetse n'umupira uri mu kirere utegereje kujya hasi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zubakishije amatafari ahiye, zikaba zisakaje amabati y'ubururu, hari ubusitani bwiza cyane bumanitsemo ibendera ry'u Rwanda.

Abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, aho bari gukina umukino w'amaboko uzwi nka vore boro, aho hari umusore umwe wasimbutse agiye gukubita ikiro, abandi na bo biteguye kucyarura.

Abanyeshuri b'abahungu bambaye impuzu mpuzankano, bakaba bicaye buri wese afite impapuro mu ntoki ze ari gusoma bigaragara ko bari gusubiramo amasomo bitegura ikizami.

Ku kigo cy'amashuri hari abarimu bateraniye hamwe bambaye impuzankano zisa umweru zizwi nk'amataburiya. Hari kandi abana b'abanyeshuri bari gukina iruhande rwabo bigaragara ko bishimye.

Umusore uri gusimbuka ashyira umupira mu gatebo, bikaba bigaragarako ari gukina umukino uzwi nka basketball, hirya hari abandi bantu bicaye mu mashitingi bari kureba uburyo ki ari kubikora neza.

Abanyeshuri benshi batandukanye bambaye imyambaro ya siporo, aho bari kugenda bakora imyitozo ngororamubiri biruka mumuhanda, bakoma amashyi kandi bishimye, umuhanda barimo ni uwa kaburimbo.

Ubusitani bwiza cyane aho buteyemo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi, aha ngaha rero akaba ari mu Karere ka Huye impande y'Ikigo cy'amashuri cya Butare.

Abantu bagera muri bane bazwi nk'ababikira, aho bari kugenda bakaba bagiye kwambuka umuhanda wa kaburimbo, bari kureba iburyo n'ibumoso ko nta kinyabiziga kirimo kugira ngo kitabagonga, bahagaze imbere y'inyubako nziza zubakishije amatafari ahiye

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri bakaba bicaye ku ntebe babiri babiri, aho buri wese hagati ye n'undi bagiye bashyiramo metero bigaragara ko ari mu gihe cya Kovide cumi n'icyenda, imbere yabo hahagaze abayobozi harimo n'abapolisi bari kubabwira ingamba nshya.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite urupangu rwiza cyane ruyizengurutse, hanze hateye ubusitani ndetse hari n'umuhanda ushashemo amapave.

Igipangu cyanditseho amagambo agiye atandukanye ari mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, bakaba bari kutwereka ikigo cya Butare, hanze hari ubusitani bwiza cyane bushashagirana.

Abantu b'ingeri nyinshi zigiye zitandukanye higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bari kugenda binjira mu ishuri ryiza ryubatswe mu buryo bugezweho, aho bagiye kureba uko imyigire ihagaze.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru ndetse na kaki, bakaba bahagaze munsi y'umusaraba umanitseho ishusho ya Yezu, hejuru ikirere kirasa ubururu ndetse n'umweru.

Abanyeshuri bagiye batandukanye bateraniye hamwe mu ishuri, aho imbere yabo hari bamwe bahagaze ndetse n'undi uhagaze imbere yabo, ari kugira icyo abasangiza na bo baramukurikiye.

Abanyeshuri benshi cyane bateraniye hamwe muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, aho bicaye ku ntebe zigezweho, hari kandi n'umugabo ufite kamera uri gufotora imbere bose bamukurikiye.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi bakunze kuba bambaye amataburiya y'umweru, iyo bari ku ishuri baba bari gukora imyitozo ngiro kugira ngo barebe ko bashobora gushyira mu bikorwa ibyo baba bize.

Abantu benshi biganjemo abagore n'abakobwa ndetse n'umugabo umwe, bahuriye hamwe aho bazamuye amaboko bigaragara ko ari abakinnyi ba basket, bishimye bari guseka.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru bicaye mu ishuri aho bari kureba insakazamashusho mu buryo bwo kwiga, ibi rero n'uburyo bugezweho aho abanyeshuri biga bareba insakazamashusho.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zifite ubusitani bwiza cyane, bumanitsemo ibendera ry'u Rwanda riri mu mabara agera muri atatu, hari kandi n'abanyeshuri bari kujyayo bigaragara ko ari ku ishuri.

Icyapa cyanditseho Gahogo, kikaba kiri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru, handitseho amagambo agaragaza ko ari ikigo cy'ishuri giherereye i Gahogo.

Abanyeshuri benshi cyane bateraniye hamwe aho bakoze uruziga, hagati harimo ikibuga kirimo ubusitani bwiza cyane, hakaba hari kandi ibyapa bigiye bihamutse biriho insanganyamatsiko y'uwo munsi.

Abanyeshuri bari kugenda bajya ku ishuri, aho bari kugenda bambaye impuzankano z'ishuri, bari kugenda mu muhanda ushashemo amapave. Kuri uwo muhanda hari igiti cy'umunyinya gitanga umuyaga n'amahumbezi.

Mu rwego rwo kunoza imirire Leta yashyizeho itegeko ko abanyeshuri bose bagomba kuzajya barira ku ishuri, umwana rero akaba afite akabase karimo akawunga.

Abanyeshuri bicaye bari mu kizami bambaye impuzankano z'umweru buri wese afite akamashini akubiraho imibare ndetse imbere yabo hahagaze mwarimu uri kubacunga.

Abanyeshuri bateraniye hamwe mu ishuri, aho bari kumwe na mwarimu wabo, akaba ahagaze afashe ku meza yambaye itaburiya y'umweru, ari kugenda ababaza ibibazo, hanyuma na bo bakamusubiza.

Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye aho ifite ibirahure byiza bigezweho, imbere yayo hari ubusitani bwiza burimo akazu kubatsemo ishusho ya Bikira Mariya.

Ni ku marembo y'ikigo cy'amashuri cyitiriwe Mutagatifu Jean Nyarusange, kikaba kiri gutanga ikaze ku bantu bose bifuza kuhagera. Amarembo aruguruye, muhawe ikaze.

Kugira ngo uburezi bugire ireme, Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bw'uko abanyeshuri bazajya biga bakoresheje ibikoresho by'ikoranabuhanga nka za mudasobwa, hano rero hari abanyeshuri bari kwiga bakoresheje ibi bikoresho.

Umwarimu wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa k'ubururu ari kwandika ku kibaho aho ari kwigisha abanyeshuri isomo ry'imibare, na bo bakaba bamukurikiye nubwo batagaragara.

Ku bigo by'amashuri byinshi bigiye bitandukanye, haba hari idarabo y'u Rwanda, aho riba rimanitse imbere y'ibiro by'umuyobozi w'ikigo ndetse riba riri mu mabara y'umuhondo, ubururu n'icyatsi.

Abanyeshuri bari mu ishuri aho barimo kwiga mudasobwa, buri wese imbere ye hari mudasobwa ndetse hari na mwarimu uri kubigisha abereka uko bagomba gukoresha izo mudasobwa.

Igipangu cyiza cyubakishije amatafari ahiye, inyuma yacyo hateye intebe nziza ndende ziri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umuhondo. Giteye ahantu munsi y'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru turi kugendamo abanyeshuri bambaye impuzankano zo mu mabara y'imyeru ndetse n'amapantaro ajya gusu imikara bagiye ku ishuri bari kugenda muri ako kayira.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ahiye, ikaba imanitseho icyapa kiri mu mabara y'umweru cyanditseho ko ari paruwasi ya Busengero iherereye muri Shyira.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe b'abanyacyubahiro, bari ahantu hatatse neza mu mabara y'idarapo ry'u Rwanda, hakaba hari abanyeshuri imbere yabo b'abakobwa bahagaze batonze umurongo bigaragara ko hari icyo bari kubagezaho.

Ku ishuri hakunze kubaho imikino ihuza ibigo, aho ibigo bigenda bikina hanyuma ikigo kizi gukina kikazatwara igikombe. Aba banyeshuri rero bari kureba abana bari gukina umukino w'amaboko uzwi nka volley ball.

Abanyeshuri bagera muri babiri b'abakobwa bambaye impuzu z'impuzankano aho bagiye ku ishuri bari kugenda mu kayira gasheshemo amapave, uwo muhanda ukikijwe n'ibiti bitandukanye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho zubakishije amatafari ahiye ndetse zisakaje amabati y'ubururu, hakurya hari inyubako imeze nk'urusengero rw'Abagatulirika nziza cyane iriho n'umusaraba hejuru.

Abana b'abakobwa bambaye impuzankano z'ikipe bigaragara ko ari ikipe y'ikigo, bifashe mu mayunguyungu bari kumva amabwiriza bari guhabwa n'abatoza babo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba iteye amarangi y'ubururu ndetse n'umuhondo. Iyi nyubako rero ikaba ifite udusikariye buririraho bari kujya mu ishuri.

Mu mashuri agiye atandukanye haba harimo ibikoresho byose nkenerwa abanyeshuri bifashisha kugira ngo babashe kwiga neza kandi batsinde, haba harimo intebe, utubati ndetse n'ameza.

Buri kigo cy'amashuri mu Rwanda kiba gifite isomero aho abanyeshuri bajya gushaka ibitabo bagasoma kugira ngo bihugure ndetse bongere n'ubumenyi kugira ngo babashe gutsinda.

Mu rwego rwo kongera ireme ry'uburezi mu Rwanda, Leta y'u Rwanda yashyizeho itegeko ko abanyeshuri bose bagomba kuzajya barira ku kigo ndetse ku ifunguro ryabo hakiyongeraho imbuto, urugero nk'umuneke.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye gisakaje amabati, gifite urugo rwubakishije amatafari ahiye, ku ruhande hari umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo abanyeshuri bagiye ku ishuri.

abanyeshuri benshi bateraniye hamwe aho bambaye impuzu z'impuzankano, bakaba bicaye inyuma y'ishuri, imbere yabo hagaze umwarimu w'umugore, aho ari kugenda abakoresha ikiganiro.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho yubakishije amatafari ahiye, imbere y'ayo ku muryango hari abanyeshuri bari gusohoka, biragaragara ko amasaha yo gutaha ageze none bakaba babarekuye.

Abarimu bagera muri babiri bari kugenda mu ishuri bareba ko intebe zakozwe zimeze neza, n'abagabo babiri umwe yambaye agapira k'umukara, undi yambaye ikote n'agapira k'umweru mo imbere.

Ku kigo cy'amashuri aho hubatse amashitingi meza cyane, ari mu mabara y'umweru, ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo. Hari kandi intore ziri mu kibuga, ziri kugenda zibyina, zicinya akadiho ndetse zihamiriza.

Umunyeshuri wicaye afite ikayi ndetse imbere ye hakaba hari Mudasobwa, akaba ari kugenda asoma asubira mu byo yize kugira ngo adatsindwa ikizamini.

Mu macumbi aho abanyeshuri barara, haba hari ibikoresho byose nkenenerwa abanyeshuri bifashisha, kugira ngo imyigire yabo ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange bubashe kugenda neza.

Abanyeshuri bateraniye hamwe, bicaye buri wese imbere ye afiteho mudasobwa, biragaragara ko biga muri kaminuza kuko imbere yabo hahagaze umwarimu uri kugenda abasobanurira.

Icyumba cy'ishuri kirimo ameza menshi agiye atandukanye, ndetse n'intebe bigiye biteye mu buryo bw'amatsinda, aho abanyeshuri baza bakicaraho hanyuma bakaganira bungurana ibitekerezo.

Sale ngari cyane aho irimo akameza kamwe kari mu mabara y'umutuku, iyi nyubako ikaba ifite ibirahure byiza cyane bibonerana.

Ameza ateretseho amoko menshi agiye atandukanye y'ibiribwa, hakaba hari umugabo uhagaze iruhande rwayo ufite agasahani kariho ibiryo mu kuboko kw'ibumoso, akaba agiye guterura n'iyindi ngo arye kubyirira.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane bahuriye hamwe, higanjemo ab'igitsina gore, ndetse n'ab'igitsina gabo, aho bari kugenda, bigaragara ko bari bari mu nama, none irarangiye, bakaba bari gutaha.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, zikaba zigeretse inshuro zigera muri eshatu, hafi hari akayira gashashemo amapave kari kugendamo abantu benshi bagiye batandukanye.

Amadarajya agiye atandukanye menshi cyane, akaba akikijwe n'ubusitani bwiza cyane, buri ahantu hari inyubako nziza cyane, akaba ari muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye.

Muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, mu byumba abayobozi bakoreramo haba hari inzugi zishushanyijeho amafoto yabo, ndetse hariho na nimero z'icyo cyumba, na nimero z'umuyobozi ukoreramo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho irimo udutebe twiza cyane babasha kuzinga. Iyi nyubako ikaba ariyo bigiramo iherereye muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, zikaba zifite ubusitani bwiza burimo ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi, ndetse n'akayira gashashemo amapave. Aha ni muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubakishijwe ibyuma biteye amarange y'umukar,a hariho n'ibirahuri byiza bigezweho, iyi ng'iyi akaba ari inzu y'isomero, ya kaminuza nkuru y'u Rwanda, ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite ikigega kiba kirimo amazi meza yo kunywa abantu bifashisha iyo bafite icyaka, hakaba kandi hari akayira gasakaje amabati.

Mu cyumba abanyeshuri bararamo ku ishuri haba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byabugenewe bifashisha kugira ngo babashe gusubiramo amasomo yabo, haba harimo igitanda cyiza gishashe neza, intebe bicaraho ndetse n'akameza bakoreraho isubiramo.

Mu byumba abanyeshuri bararamo ku ishuri haba hariho ibitanda biba biriho matera nziza cyane zigiye zitandukanye, hakunze kuba hariho n'imisego abanyeshuri bifashisha baryamye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru, aho bateraniye hamwe mu nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho iteye amarangi y'umweru, bakaba bari kureba imbere bari gukurikira mwarimu uri kubigisha.

Abantu bagera muri bane harimo abahungu babiri, ndetse n'abakobwa babiri babari inyuma. Bari gutambuka mu gahanda gashashemo amapave, ku mpande z'umuhanda hakikijwe n'ibiti byinshi cyane bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako iteye amarangi y'umweru, iyi akaba ari inyubako ya kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye, ikaba iherereye mu karere ka Huye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, aho zisakaje amabati y'umutuku, ziteye amarangi y'umweru, iyi nyubako rero ni iya Kaminuza ya Piass iherereye mu karere ka Huye.

Inyubako nziza cyane, zubatswe mu buryo bugezweho ariko zisakaje amategura, zubakishije amatafari ahiye. Hari ubusitani bwiza cyane, bufite indabo zishashagirana ndetse n'utuyira tujyayo dushashemo amapave. Hari kugendamo umunyeshuri n'umwarimu.

Ni mu cyumba abanyeshuri biga muri kaminuza babamo, aho bahacumbikirwa kandi hakaba hari ibikoresho byose nkenerwa byabagirira umumaro mu myigire yabo ya buri munsi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho hari icyumba bigiramo, kiba gifite akameza gafite n'agatebe umunyeshuri yicaraho igihe ari gusubiramo amasomo ye.

Ku ishuri basigaye bigisha n'uburyo ki bateka neza, aho umuntu bamutekera ibyo kurya bitandukanye, hanyuma yajya kwarura akajya aravuga ibyo ashaka ko bamwarurira, akaba ari byo bamuha ,akabirya.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba zifite ubusitani bwiza cyane zikaba ari inyubako zo muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye ahazwi nk'impamba.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, ifite ubusitani bwiza, izitijwe uruzitiro rw'ibyuma, ifite n'akayira kaganayo gashashemo amapave.

Mu cyumba abanyeshuri bararamo, haba harimo ibikoresho byinshi byabugenewe bifashisha, haba harimo ibitanda, ameza ndetse n'utubati babikaho inkweto.

Mu byumba abanyeshuri bararamo ku ishuri, haba harimo ibitanda bigiye bitandukanye, kuri iki gitanda rero, hariho umusego, igikapu, ndetse n'agakapu umunyeshuri atwaramo mudasobwa ye.

Abantu bagera muri bane bambaye impuzankano z'amajire y'icyatsi ndetse n'ingofero z'umweru, aho ari abantu bize ubwubatsi aho bari kugenda bubaka bakoresheje imyiko.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako ya Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, aha rero akaba ari mu isomero, aho haba harimo ibitabo byinshi bigiye bitandukanye abanyeshuri basoma.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, bahagaze mu mbuga ishashemo amapave, bakikijwe n'ibiti birebire ndetse bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abantu bateraniye hamwe, higanjemo abasore ndetse n'abakobwa, bigaragara ko ari itsinda ry'ababyinnyi, bakaba bahagaze imbere kuri ruhangwaboni, inyuma yabo hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Muri kaminuza y'u Rwanda haba hari ibyapa byinshi bigiye bitandukanye, aho icyapa kikwereka ahantu ugiye kugana, iki cyapa rero kiri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru, aho kiri kwerekana aho ubwiherero buherereye.

Hari amoko agiye atandukanye y'ibiti, hari ibiti bikura bikaba birebire cyane ku buryo babibyaza umusaruro bikaba byavamo imbaho cyangwa bikubakishwa ibiraro ndetse bikaba byavamo n'amapoto y'amashanyarazi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho harimo icyumba giteye amarangi y'umweru, hakaba hamanitsemo igikoresho cy'insakazamashusho kizwi nka porojegiteri abanyeshuri bigiraho hamwe na mwarimu mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zikaba zubakishije amatafari ahiye, zikaba ziteye amarange y'umweru, utuyira ducaho tukaba dushashemo amapave, iyi ni Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, ziteye amarangi y'umweru, zikaba ziherereye muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, hakaba hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'ibyuma banikaho imyenda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho. Ikaba iteye amarangi y'umukara n'umweru, ikaba ikikijwe n'ibiti byinshi cyane bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Insakazamashusho iri kwaka mu mabara y'umweru, ndetse n'ubururu, hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, hakaba kandi hariho n'icyapa kiranga kaminuza y'u Rwanda.

Imodoka nziza cyane isa umweru ariko bigaragara ko ishaje ndetse itagikoreshwa, akaba ari imodoka yanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu ngo Kaminuza y'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa ndetse zubakishije amatafari ahiye, akaba ari inyubako ziherereye muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye.

Abantu bateraniye hamwe muri sale y'imyidagaduro, bigaragara ko ari abanyeshuri, aho bose barebye imbere bigaragara ko hari ikintu runaka bakurikiye kandi bishimye.

Urugi rwiza cyane ruriho ibirahure byiza cyane bibonerana ndetse hakaba handitseho nimero ziranga icyo cyumba, uru rugi rero ni urwa kijyambere.

Ku ishuri mu byumba abanyeshuri babamo by'umwihariko abanyeshuri biga muri za kaminuza, haba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha nk'ibitanda, utubati ndetse n'intebe.

Abantu benshi cyane higanjemo abagabo bateraniye hamwe bari mu nama. Bose barebye imbere bigaragara ko bakurikiye umuntu uri kubabwira. Buri wese imbere ye hateretse agacupa k'amazi.

Igikuta giteye amarange y'umweru, kimanitsweho kizimyamwoto iri mu ibara ry'umutuku ndetse hariho n'icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru. Hakaba handitseho ngo "kaminuza y'u Rwanda".

Icyumba kiraramo abanyeshuri kiba kirimo ibikoresho byose nkenenerwa bifashisha, hakaba harimo utubati twinshi tugiye dutandukanye tumanikwamo imyenda yabo, kugira ngo itagira ikibazo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, iteye amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru, iyi nyubako akaba ari isomero, aho haba harimo ibitabo byinshi bitandukanye, abanyeshuri bifashisha.

Hari amoko agiye atandukanye y'ibiti, hari bimwe bikura bikaba birebire cyane ndetse n'ibindi bikura bikazana indabyo bikiri bitoya, ibyo rero biba birebire bigira umumaro kuko byifashishwa mu bwubatsi.

Muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'amazu, hari amashuri bigiramo ndetse n'amacumbi abanyeshuri bararamo. Hari kandi n'utuyira dusheshemo amapave.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, biganjemo ab'igitsina gore, ndetse n'ab'igitsina gabo. Bakaba bicaye bari mu nama, imbere yabo hari uducupa duteretse ku meza ariho ibitambaro bisa umutuku.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, kikaba kiri impande y'igikuta giteye amarange y'umukara n'umweru, icyo cyapa kikaba cyanditseho ngo Kaminuza y'u Rwanda ishuri ryiga ibijyanye n'ubuvuzi ndetse na farumasi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo, ikaba ifite urugi rwanditseho nimero z'uwo muryango.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru, bigaragara ko biga ibijyanye n'ubuvuzi, bari kureba mu byuma kabuhariwe, ngo barebe ko ibyo biga babasha kubishyira mu bikorwa.

Abantu bagera muri barindwi bakaba bahagaze imbere y'inyubako iteye amarange y'umukara ndetse n'umweru, hakaba kandi hari n'ibiti iruhande rwayo bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, cyanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu, avuga ko ari muri Kaminuza y'u Rwanda y'abakatolike, iherereye ku i Taba mu karere ka Huye.

Mu byumba abanyeshuri bararamo haba harimo ibitanda bigeretse inshuro zigera muri ebyiri, haba harimo kandi n'amarido meza ndetse naho bamanika imyenda yabo kugira ngo itagira ikibazo.

Ahantu muri salle y'imyidagaduro aho harimo intebe zisa umukara ndetse hakaba hari n'abantu bahagaze imbere bari kubyina bigaragara ko bishimiye, iyi nyubako rero iherereye muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye.

Amoko agiye atandukanye y'ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ndetse hakaba hari n'ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo, ni muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye.

Ahantu mu ishuri, aho harimo ameza agiye atandukanye, hariho ibikoresho byinshi abanyeshuri bifashisha, iri shuri rero rikaba ririmo ibikuta biteye amarangi y'umweru ndetse hashashemo amakaro.